Nk'ibisanzwe mu Rwanda ibikorwa bibyara inyungu birasora, rero mu Rwanda hari ikigo bita Rwanda Reveniyu Otoriti, icyo kigo nicyo gishinzwe gusoresha ibyo bikorwa byose, rero ugasanga n'ibintu biba biri ku murongo kuko babasha gukusanya iyo misoro yose iturutse ahantu henshi hatandukanye.

Nk'ibisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda usanga inzego z'ibanze ari zo zikunda kumenya ibibazo abaturage bahura na byo cyangwa se bafite. Izo nzego na zo zikaba zihura, zigaterana ndetse zikiga ku buryo zishobora gukemura ibyo bibazo abaturage bafite.

Mu Rwanda haba inzego nyinshi z'ubuyobozi zitandukanye, rero bitewe n'uko muri rusange mu bantu badashobora kuburamo ibibazo, izo nzego zikaba zigira igihe ziterana zikiga kuri ibyo bibazo, ndetse n'uburyo byakemurwa abaturage bakabaho neza mu mahoro.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda abanyeshuri basoje umwaka wa gatandatu wisumbuye bajya mu bikorwa twita urugerero, ibyo bikorwa rero bikaba ari ibibafasha kugira ngo bamenye isi yo hanze bagiye kugeramo uburyo igenda ndetse n'uburyo bagomba kwitwara mu buzima busanzwe bagezemo.

Aha haragaragara umuturage wishimye asuhuza umwe mu bantu basa nkaho'a ari abayobozi mu gikorwa cyari cyabereye ahantu runaka cyangwa se mu gace runaka k'u Rwanda ndetse kandi harimo n'abasirikare ndetse n'abandi bantu benshi hari urujya n'uruza.

Aha haragaragara abantu benshi basa nk'abari mu nama ndetse buri umwe wese afite agacupa k'amazi yo kunywa, barasa nk'abari kuganira ku bibazo runaka byakemurwa mu gisata baherereyemo.

Aha hari umugabo uhagaze ndetse uko bigaragara yambaye umupira wanditseho ngo umutoza w'intore . Ahagaze imbere y'abandi bantu bambaye imipira igiye isa ndetse birasa nk'aho ari muri bamwe batoza abana basoje amashuri yisumbuye bagiye ku urugerero.

Mu rutonde ngarukamwaka rwagaragajwe n'abashakashatsi benshi, rwagaragaje ko u Rwanda ruri mu bihugu bifite imijyi cyangwa se umujyi ukeye, aho usanga utabona ibintu by'ibipapuro, ibintu by'amashashi uri kugenda mu mihanda ya Kigali, muri urwo rwego rero ntabwo byazira ubusa, guverinoma itegura gahunda zo gushishikariza abaturage kugira Kigali icyeye Kigali yacu.

Aha hari umugabo wicaye wambaye ikote, wambaye karuvati ndetse wambaye n'ishati, umugabo akaba yogoshesheje, akaba afite n'amarinete akaba asa nk'umugabo uri mu nama cyangwa se ahantu hari umuntu ufite ijambo ari kubasangiza.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda, hari komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi. Aho usanga niba hari konji, niba hari ikiruhuko runaka kigomba gutangwa, ari bo babigena, niba hari ibibazo runaka, aribo babibwirwa. Mu rwego rwo kugira ngo serivisi zikomeze zikorwe neza mu gihugu, cyane ko abo bakozi baba bafatiye runini igihugu.

Ku ifoto haragaragara imashini irimo urukuta rwiswe mayi ara ara eyi sisitemu cyangwa se mayi Rwanda reveni otoriti sisitemu ikaba ari uburyo bugezweho bwo kureba ndetse ukanagenzura imisoro ubwo ni ku bafite ibikorwa runaka bigomba gusora.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda ibikorwa bibyara inyungu birasora. Rero hakaba hari ababa bafite ibyo bikorwa bibyara inyungu, ariko ntibasore. Rero u Rwanda rubaha amahirwe ya kabiri, yo kubemerera kumenyekanisha ibyo bikorwa byabo, ndetse bakanasora badaciwe amande.

Aha ni mu murima, wegereye ahantu abantu batuye ndetse uwo murima ukaba urimo umunara. Uwo munara ukoreshwa mu itumanaho, ukaba ahantu hegereye imiturire cyangwa se abantu batuye kugira ngo itumanaho ryabo rigende neza.

Nk'uko mu gihugu cy'u Rwanda haba ibigo bishinzwe ibintu byinshi bitandukanye, nuko rero mu rwego rwo kugira ngo hagabanyuke akavuyo hanakemurwe ibibazo bijyanye n'ingendo hari kampani cyangwa se ikigo bita RURA, icyo kigo bita RURA nicyo gishinzwe ibintu byo mu muhanda kigenda kimenya ibibazo byose byo muhanda ndetse kikanabikemura.

Aha hari umunara uzitiye ndetse muri urwo ruzitiro rw'umunara harimo n'ibindi bikoresho by'amashanyarazi bifasha umunara gukora, nk'ibyo twita genereta bihereza umuriro umunara uwo munara ukoreshwa mu itumanaho.

Nkuko bimaze kumenyerwa ku banyarwanda. Serivisi za Leta nyinshi wazisabira ku Irembo. Ku Irembo rero aho ubu ngubu aho bigeze ni uko n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga warusabira ku Irembo. Aho ugenda ukaka icyo bita kode, ukazajya gukora ikizamini kuri site runaka, nkuko ziri henshi mu gihugu, ukabona perime yawe. Byaroroshye.

Aha hari umunara ukoreshwa mu itumanaho. Uwo munara ugiye uriho ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu itumanaho . Ndetse ikunda kuba iri ahantu abaturage batuye kuko nibo bakoresha itumanaho.

Aha haragaragara inyubako ndende ndetse hasa nk'ahari urujya n'uruza rw'abantu, hakaba hanakeye pe! ukabona n'ahantu hagenewe abantu kwicara ndetse abantu bakaba bicaye buri wese ahugiye mu bye mu gikoresho cy'iwe nka telefone cyangwa se mudasobwa.

Ubu byaroroshye, uciye ku rukuta rwa Irembo ushobora kwaka cyangwa se ukiyandikisha, gukorera uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, ubu ngubu uragenda ku Irembo ukaka kode, ukazajya gukorera urwo ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ku masite menshi atandukanye mu gihugu.

Mu gihe cy'amage cyangwa se mu gihe cya covid cumi n'icyenda, byagaragaye ko mu myigire habonetsemo imbogamizi kubera ko abanyeshuri bari batakigira ahantu hamwe. Rero icyo gihe REB yateguye igikorwa bise e-learning cyangwa se mu rurimi rw'amahanga bitaga e-learning, aho bigiraga kuri mudasobwa, buri wese yigira mu rugo aho ari bitamusabye kugenda. Ni uburyo kugeza na n'ubu bukiri kugeragezwa gukoreshwa.

Nk'ibisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda haba ibintu byinshi bisora, harimo nk'amazu ku nshuro ngarukamwaka, harimo n'ibikorwa bindi bibyara inyungu. Nuko rero Rwanda Revenue yashyizeho uburyo bwo gushimira abasora.

Aha ni mu cyumba cy'inzu runaka ndetse hateretsemo imashini zitandukanye, harimo izifotora ndetse na mudasobwa hakaba bigaragara ko hakoreramo abantu batari umwe cyangwa se barenze umwe, ndetse mu bagaragara hari umuntu umwe barasa nk'abatanga serivisi z'irembo ndetse banafotora cyangwa se bakora icyo twita nka photocopy mu ndimi z'amahanga.

Ku ifoto haragaragara ahantu hari icyapa kiriho ibimenyetso biburira abantu bagiye kwinjira ahantu hari igikorwa cy'ubwubatsi hakaba hari ikibaburira ko bagomba kwambara inkweto zikomeye zishobora kubarinda ibirenge ndetse no kwambara kasike mu ndimi z'amahanga ndetse na ga mu gihe bagiye kwinjira aho hantu mu rwego rwo kwirinda.

Aha ni mu ruzitiro rw'ikigo runaka. Muri urwo ruzitiro harimo ibikoresho by'amashanyarazi. Muri ibyo bikoresho mu ndimi z'amahanga harimo icyo bita taransifoma. Iyo taransifoma igabanya umuriro iwukuye ku mapironi, iwujyana mu baturage.

Nk'ibisanzwe ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ku muhanda, mu gihe cy'ijoro haboneka amatara. Ubwo bukaba ari uburyo bwakoreshejwe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bujye bubasha kurinda umutekano kuko ahantu hose ku muhanda haba habona, bikaba nta bikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora kuhakorerwa.

Uba aho bigeze biragoye kuba hari ahantu wasanga mu Rwanda hatari umuriro w'amashanyarazi, aho usanga bakoresha uburyo bw'amapironi kugira ngo babashe kugezaho abaturage umuriro w'amashanyarazi ukenerwa cyane mu buzima busanzwe ndetse no mu iterambere ry'igihugu.

Aha ni mu muhanda wegereye ahabera ubucuruzi butandukanye, mu muhanda harimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka. Sibyo gusa haragaragara ibyapa bya MTN by'abagurisha amayinite, ndetse hari n'ikindi cyapa cyo ku muhanda gifashe ku matara amurika mu muhanda, nta kabuza mu muhanda harimo n'abanyamaguru.

Aha haragaragara umutegarugori cyangwa se umwari, ndetse akaba ari ahantu hasa nko ku rugomero akaba ariho bashobora gukupurira cyangwa se bagakupira umuriro mu gihe runaka cyangwa se mu gihe habaye ikibazo runaka cyangwa se mu gihe bikenewe.

Nk'ibimenyerewe, mu gihugu cy'u Rwanda, iyo uri kugenda ku muhanda ubona amapoto, atwaye intsinga z'amashanyarazi, zishyiriye umuriro abaturage, ndetse no ku muhanda haba hari amatara, ntiwatinya kuvuga ko n'ibipangu by'amazu nabyo biba bihari, ndetse n'ibikorwa runaka, nk'ama bare, utuzu tw'amazi, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ndetse n'ama parikingi y'imodoka.

Aha haragaragara amapoto, ndetse si ipoto gusa hari n'ipirone, byose byifashishwa mu kugeza umuriro ku baturage, cyangwa se mu gukura umuriro ku ngomero iwujyana mu baturage aho ukenewe.

Ku ifoto haragaragara umunara wifashishwa mu itumanaho. Muri iyo nyubako cyangwa se muri urwo ruzitiro rw'umunara harimo icyo twita genereta, jenereta ikaba yifashishwa mu gutanga umuriro uwo munara ukoresha. Hakaba hari n'ibindi bintu byinshi. Iminara rero ikaba ari imwe mu bintu nkenerwa mu itumanaho.

Aha haragaragara inzu ndetse n'ibindi bikorwa by'amashanyarazi harimo ipoto ndetse n'ibiti. Ku ipoto hari insinga za enterinete ndetse n'insinga z'amashanyarazi, ibyo byose byifashishwa n'abantu bo muri ako gace.

Aha haragaragara inzu y'ubucuruzi bakaba bacuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo amamatela harimo imyenda ndetse hakaba hegereye umuhanda aho hantu hakaba hari n'ipoto inyuzeho amashanyarazi ndetse iriho n'itara rimurika iyo bwije.

Nk'ibimenyerewe mu Rwanda, haba cyangwa se ahegereye ahantu hari amapironi atwara umuriro w'amashanyarazi. Uhasanga udusanduku dupfundikiye, mu ndimi z'amahanga bita bodi. Utwo dusanduku tuba turimo ibikoresho bitandukanye by'amashanyarazi, badufunga kugira ngo birinde abaturage bashobora kugirirwa nabi n'umuriro bahegereye.

Aha hari ipoto imwe mu mapoto agezweho akoze muri sima ndetse n'ibyuma ikaba inyuzeho insinga ndetse ikaba ifasheho n'itara ryifashishwa mu kumurika mu gihe cy'ijoro.

Aha hari abantu benshi batandukanye, ndetse bicaye nk'abategereje kugira serivisi bahabwa, ndetse hakaba hari n'abaryamye uko bigaragara hashobora kuba ari kwa muganga.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda haboneka amasomero menshi ahantu henshi hatandukanye nko mu bigo by'amashuri, hakaba hari n'isomero rusange ryo ku rwego rw'igihugu riba ahitwa Kacyiru, ibyo bigafasha abana ndetse n'abantu bakuru gukomeza gushakashaka no guteza imbere igihugu.

Mu Rwanda usanga ahantu henshi nko kwa muganga cyangwa se ku bigo by'amashuri bara baragerageje gushyira mu bikorwa uburyo bwo gusakara mu nzira abantu bacamo, urugero tugeze nko kwa muganga abarwayi birumvikana iyo bageze ku zuba nk'uko izuba riba rimeze ribagwa nabi rero bakoresha uburyo bwo bwo kuhasakara kugira ngo bataza kuza kumererwa nabi kubera izuba uburyo bwiza cyane.

Aha hari umuhanda w'igitaka ndetse hakaba haparitse imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'ikimenyetso kigaragaza ko hashobora kuba ari kwa muganga.

Aha hari umugabo wambaye itaburiya. Ndetse akaba afite igikoresho cyifashishwa mu kumenya uko umutima w'umuntu utera. Nta kabuza, ni dogiteri! Ndetse hakaba hari n'umugore usa n'aho ari we uri gupimwa.

Aha hari ama esikariye ndetse hakaba haparitse imodoka iri mu bwoko bw'imbangukiragutabara, ikaba ari imodoka itwara abarwayi, ndetse hakaba hari n'izindi modoka ziparitse ndetse n'abantu bigaragara ko bahari.

Aha hari icyapa cyanditseho ngo igororero rya Muhanga koregisheni fasiritizi mu ndimi z'amahanga, aha hakaba hasa nkaho ari mu marembo y'iryo gororero.

Ubu mu Rwanda uhasanga abacamanza benshi batandukanye yaba abigenga cyangwa se n'abakorera leta, aho usanga buri wese utanze ikirego kibasha gukurikiranwa neza kikanaburanishwa neza, usanga ibyo bintu rero bituma abaturage bakomeza kubaho neza kandi mu mahoro.

Ubu mu Rwanda haboneka ibigo bigororerwamo abantu, cyangwa se imfungwa ahantu henshi hatandukanye bitewe n'ibyo baba baragiye bakora, aho usanga bafatwa neza, barya neza n'ubwo rwose gufungwa aba atari ibintu byiza, ariko hari ibigo byinshi mu Rwanda byita kuri abo bantu cyangwa se byita kuri izo mfungwa, ari byo mu ndimi z'amahanga bita pirizo.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda haboneka abacamanza bafasha mu gukemura ibibazo biri muri rubanda, abo bacamanza bakaba bakora mu buryo bwa kinyamwuga, bakaba bafasha abanyarwanda kubaho neza mu mahoro ndetse bakomeza no guteza imbere igihugu cyabo.

Aha hagaragara uruzitiro rwubakishije amabuye ndetse n'amarembo yinjira ahantu handitse ko hari mu igororero rya Huye, uko bigaragara mu imbere hakaba harimo abarinzi b'iryo gororero.

Aha hagaragara ingororwa cyangwa se imfungwa. Zinjizwa aho ziba cyangwa se muri gereza. Zikaba ziba zivuye mu bikorwa runaka bitandukanye, byo kubaka igihugu.

Aha hari ikintu kimeze nk'igicuba gisize irangi ry'umutuku, gifite umunwa w'umukara, kikaba kizwi ku izina rya kizimyamoto, kikaba cyifashishwa ahantu hatandukanye hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Aha hari imodoka za polisi ziparitse ndetse hakaba hari n'inyubako ndende, iri mu mabara y'umweru n'ubururu, bigaragara ko hashobora kuba ari inyubako ya polisi y'u Rwanda, cyangwa se ikoreramo polisi y'u Rwanda.

Aha haragaragara inzu isa nk'iri ahantu hitaruye, hegereye amashyamba ndetse iyo nzu hariho akantu kameze nk'umukururankuba cyangwa se abantu bazi nk'umurindankuba ndetse bikaba birinda ibintu byegereye aho, kuba byakubitwa n'inkuba mu gihe hari kugwa imvura irimo n'inkuba.

Ku ifoto haragaragara umugabo, imbere ya mikoro, ndetse nyuma ye hicaye abandi bantu. Bigaragara ko hashobora kuba ari nko kwiyamamaza. Uwo mugabo asa nk'uri kugerageza gukurura amarangamutima y'abantu, akoresheje uburyo bwo kuvuga.

Aha hari abantu bari mu nyubako ndetse basa nk'abari mu nama, urebye aho bahanze amaso bose urahabona abandi bantu bicaye basa nk'abahagarariye inama cyangwa se bari gutanga ijambo kandi n'abo inyuma yabo hari amadarapo abiri. Hari idarapo ry'u Rwanda ndetse n'idarabo cyangwa se ikirangantego cy'u Rwanda. Sibyo gusa hari n'ibigaragaza amashusho bibiri imbere y'abo bantu.

Ubwo habaga amatora mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kane ishyaka rya FPR ryari rifite umukandida witwa Paul Kagame, Paul Kagame ari mu batowe cyane ku buryo buhambaye kuko abaturage bamukunda kubera ibyiza abagezaho ndetse agikomeje no kubagezaho.

Mu gihe cy'amatora mu Rwanda, usanga buri wese aba yemerewe gutora uwo ashaka aho usanga bitewe n'abari kwiyamamaza cyangwa se abitabiriye ayo matora, ugenda mu mwiherero wawe ugatora uwo ushaka, ibyo bikaba biri mu bintu bigaragaza ko igihugu gifite demukarasi.

Aha ni mu Rwanda ndeste hari abantu b'ibitsina bitandukanye, begereye idarapo birumvikana n'idarapo ry'uRwanda, ndetse bakaba barifasheho ubundi ukundi gusi kuboko gusigaye bakakumanika ibi bikaba bikorwa mu gihe bari kurahira.

Nk'ibisanzwe mu gihe cy'amatora u Rwanda na rwo rugira abakandida, abo bakandida na bo bakora campaign cyangwa se kampanye cyangwa se imyiyerekano mu gihugu hose nk'ibisanzwe, iyo myiyerekano iba ari ukugaragariza imigabo n'imigambi yabo ku baturage bo mu nce zitandukanye.

Aha ku ifoto haragaragara perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ndetse akaba ari na chairman wa FPR inkotanyi. Akaba yarakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu Rwanda nk'uko bidasubirwaho akaba ari mu bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Nk'ibimaze kumenyerwa mu Rwanda, cyangwa se nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ni umwe mu bayobozi begera abaturage bakamenya ibibazo bafite, rero ugasanga bamusura ndetse nawe akabasura ahantu henshi hatandukanye, ibyo bifasha mu kugenda hakemurwa ibibazo biri mu baturage.

Aha hari umukuru w'igihugu perezida wa repubulika y'u Rwanda, Paul Kagame yagiye kwiyamamaza mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, ibi kikaba ari igikorwa mu ndimi z'amahanga bita kampeyini, aho uwiyamamaza azenguruka mu nce zitandukanye avuga imigabo n'imigambi ashaka kuzagezaho abaturage.

Nk'ibisanzwe mu miyoborere y'u Rwanda hajemo uburinganire, aho usanga n'abagore cyangwa se igitsina gore nacyo kiboneka mu nzego z'ubuyobozi z'igihugu, ibyo bigafasha kwereka abategarugori ko na bo bashoboye.

Nk'ibisanzwe muri iki gihe, indwara zigenda ziyongera ndetse n'ibyorezo. Ni uko rero muri urwo rwego u Rwanda, rufite ministire w'ubuzima. Minisitiri w'ubuzima rero, agera igihe, bitewe n'icyorezo runaka kiri mu Rwanda, nk'ibyo twagiye tubona bya Maburg, bya M pox, cyangwa Monkey pox, ubwo ni mu ndimi z'amahanga, na za corona, batangaga amakuru ku ho icyorezo kigeze.

Dusubiye inyuma gato ubwo u Rwanda rwari ruri mu mage, mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane, igihe habaga jenoside yakorewe abatutsi, icyo gihe rero bamwe mu bantu cyangwa se abasirikare bacunguye u Rwanda bitwaga RPF cyangwa se FPR, iyo FPR rero kuva icyo gihe yakunzwe n'Abanyarwanda ku buryo butangaje, ikaba ari na yo ifite umukandida ari we Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.

Aha hari perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul kagame akaba ari mu modoka ndetse ari gusuhuza abaturage, bisa nkaho yari ari kwiyamamaza nk'umukandida rukumbi wa efuperi, ndetse hakaba hari abasirikare bambaye impuzankano ya gipolisi bamugaragiye.

Aha hari umubyeyi witeze igitenge uri guseka ndetse uyu mubyeyi kubazi amateka y'u Rwanda baramuzi yitwa Uwiringiyimana agatha akaba ari muri zimwe mu ntwari u Rwanda rufite.

Aha haragaragara perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse akaba akikijwe n'abasirikare bambaye impuzankano za polisi y'u Rwanda urebye neza inyuma hakaba hari imbaga y'abantu bari baje kwitabira mu gihe yarimo kwiyamamariza kongera kuyobora u Rwanda.

Aha hari umuhanda, mu muhanda hakaba harimo umumotari, harimo imodoka, harimo ndetse n'imodoka cyangwa se ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa lifani cy'amaguru atatu, imbere hakaba hari inyubako ikorerwamo ibintu bitandukanye.

Aha hari imodoka yo mu bwoko bwa toyota ndetse ifite ahatwarirwa imizigo inyuma, imbere yaho hakaba hari imodoka ifite ibara ry'ubururu iri mu bwoko bwa dayihatsu, zikaba ari imodoka zifashishwa zimura abantu cyangwa se zitwara indi mizigo itandukanye.

Aha hari rigori nini cyane itwara amazi ndetse hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, hakaba hari gucamo n'umunyamaguru, hakaba hari bisi cyangwa se imodoka itwara abantu mu buryo rusange, itwara abagenzi, ikaba iri kugenda mu muhanda.

Aha ni mu muhanda ndetse uwo muhanda urasa nk'iwubatse n'amapave ndetse uko bigaragara harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikaba iri muri uwo muhanda. Ndetse hari n'abamotari birumvikana nabo bagenda muri uwo muhanda.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda haboneka zimwe mu modoka nini zitwara amazi cyangwa se peteroli, hakaba harimo iziba zambukiranya zijya mu mahanga hakaba ari n'iziba zizizanye mu Rwanda izo peteroli, ndetse mu mihanda habonekamo n'abanyonzi bakorera amafaranga muri ubwo buryo bwo gutwara abantu ku magare.

Aha haragaragara umugore ufite ibisheke mu ndobo ndetse na moto yo mu bwoko bwa lifani itwaye inyamaswa ndetse imbere yabo hari umunyonzi utwaye umugenzi, hakaba n'umumotari nawe uri kugenda ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo.

Nk'ibisanzwe mu gutwara ndetse no kwikorera, ibintu byinshi bitandukanye nk'amasima, nk'imicanga hakoreshwa ibinyabiziga byabugenewe, harimo izaje zakorewe mu Rwanda twita moto Rifani izo moto Rifani zikaba zimura abantu zitwara n'ibintu byinshi bitandukanye, ndetse hakaba hari n'ikitwa imodoka nini cyane zitwara imicanga.

Nk'ibisanzwe ku muhanda, ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, haboneka ibikorwa byinshi bitandukanye ndetse nkenerwa ku buzima bw'abantu busanzwe. Ukaba mu muhanda ushobora kubonamo imodoka itwara abantu mu buryo rusange, ukaba ushobora kubonamo ibyo twita nka betingi cyangwa se ibikoreshwa n'abantu batega, ibyo bikaba biri mu bintu biboneka ahantu henshi haba abantu.

Aha ni mu muhanda, birumvikana hagomba kubamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse kuri ibyo binyabiziga harabonekamo imodoka z'abantu ku giti cyabo, amagare ndetse n'abamotari, ntakabuza hari n'abanyamaguru.

Aha ni mu muhanda ndetse muri uwo muhanda harimo n'imodoka cyangwa se ibinyabiziga biri kugenda, muri ibyo binyabiziga harimo ibihetse imizigo ndetse harimo na za moto zitwara abagenzi, si ibyo gusa muri uwo muhanda harimo n'abagenzi bagenda n'amaguru.

Aha ni mu muhanda ndetse birumvikana gucamo ibinyabiziga ariko kuri iyi nshuro hari gucamo ibinyabiziga birebire cyangwa se twita rukururane, bikaba ari ibinyabiziga bitwara ibintu byinshi bitandukanye nk'amasima ndetse n'indi mizigo itandukanye.

Nk'ibisanzwe mu gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga birumvikana hakenerwa imodoka, mu Rwanda hakaba hari imodoka zihariye zagenewe kwigishirizwaho ndetse no gukorerwaho ibizamini byo kwaka uruhushya rwo gutwara imodoka.

Nk'ibisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda mu mihanda igiye itandukanye haba hari ibikorwa byinshi bitandukanye, niho usanga mu muhanda harimo imodoka z'abantu ku giti cyabo, harimo imodoka zitwara imizigo ndetse n'abantu batembera bagenda bajya mu mirimo yabo cyangwa se mu bintu byinshi bitandukanye.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda mu mihanda yaho habonekamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo ibitwara imizigo, harimo iby'abantu ku giti cyabo ndetse n'abamotari, ibyo tutibagiwemo n'abanyamaguru na bo baba bagenda.

Aha ni mu muhanda ndetse Uko bigaragara harimo n'ibinyabiziga, muri ibyo binyabiziga harimo imodoka ndetse n'igare. Sibyo ibyo gusa harimo n'abanyamaguru kandi abanyamaguru birumvikana bagendera ahegereye ku hatwara amazi.

Ubu ngubu ushobora guca mu mihanda igiye itandukanye mu Rwanda aho uzasanga irimo isuku nyinshi. Icya mbere kizakubwira ni uko uzasangamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibinini, ibitoya ndetse n'ibidafite moteri, aho uzasanga n'abanyamaguru bari guca ku ruhande.

Ubu mu Rwanda hari ibigo byinshi bitwara abagenzi mu buryo rusange bw'imodoka, aho usanga ibyo ngibyo mu magare ahantu henshi abantu bategera udashobora kugenda ngo upfe kubura imodoka, ibyo bikaba biri mu bintu bihatse kwiyongera kwa bamukerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda mu mihanda yaho, haboneka ibinyabiziga binini, byifashishwa mu gutwara amasima ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Biba bifite ahantu hanini ho kuba haterekwa imizigo ndetse mu mihanda, ntakabuzwa n'ubundi habonekamo n'abamotari ndetse n'abanyamaguru.

Aha hakaba ari ahantu hari imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange, hakaba hari ndetse n'abantu benshi, ni mu muhanda, ariko uwo muhanda ukaba winjira mu ikusanyirizo cyangwa se ahahurira imodoka zigenda ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u rwanda ndetse ukaba bwije n'amataracanye.

Aha ni ahantu hasa nko mu mujyi ndetse hari n'inyubako zitandukanye nyinshi ndende, urebye neza ni mu muhanda ariko uri gucamo abantu gusa nta binyabiziga bicamo ndetse abantu bakaba bicaye ahantu habugenewe.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda kugenda ujugunya imyanda aho ubonye hose ntibyemewe. Rero u Rwanda rukaba ari rumwe mu bihugu bifite isuku ku muhanda. Aho usanga hari icyo twita pubere mu ndimi z'amahanga, aha cyangwa se aho dushyira imyanda, ibyo bigafasha u Rwanda gukomeza gusa neza ndetse no kuba intangarugero mu bihugu by'abaturanyi.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda kiburira cyangwa se kibwira ibinyabiziga ko iburyo ariho hari ikoni cyangwa ariho bigomba kunyura.

Iki ni icyapa kiburira ndetse gikoresha cyanecyane mumuhanda kiburira abatwara ibinyabiziga ko aho hantu hari kubakwa cyangwa hari ibikorwa byubwubatsi biri gukorwa aho hantu.

Aha hari icyapa kiburira abatwara ibinyabiziga birumvikana ndetse kikaba kibaburira ko imbere bagomba kuba biteguye ko hashobora kugira umuntu wambuka cyangwa se indi modoka yinjira muri uwo muhanda.

Iki ni icyapa kiboneka ahantu henshi hatandukanye mu muhanda. Ndetse hari ikorosi. kikaba kiburira cyangwa se gitanga amakuru ku batwara ibinyabiziga ko imbere ukase ibumoso hari ikoni rikata cyane.

Iki ni icyapa kiburira abatwaye ibinyabiziga, kigaragaza ko imbere hari ikoni rikase cyane kikaba ari icyapa kiba kiri ahantu henshi hatandukanye mu muhanda hari iryo koni rikase cyane, iki kikaba kigaragaza ko hari ikoni rikaze cyane iburyo.

Aha hari imodoka iburira abatwara ibinyabiziga ko batagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itatu. Iki kikaba ari icyapa gishyirwa ahantu hagiye hatandukanye mu mihanda.

Iki ni icyapa cyifashishwa mu muhanda kiburira cyangwa se kibwira abatwaye ko aho hantu hadaparikwa, cyangwa se bitemerewe kuhaparika . Ni ukuvuga ngo kiba ahantu aho wahura naho ahariho hose kiba kiri kuburira abantu ko aho hantu hatemerewe guparikwa.

Aha hari icyapa kiburira. Ndetse icyo cyapa kikaba gishyirwa ahantu hatandukanye mu muhanda. Iki cyapa kikaba kiburira abatwaye ibinyabiziga ko batagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu cyangwa se mirongo itandatu ku kilometero ku isaha.

Iki ni icyapa gitanga amakuru ndetse kikaba ari icyapa kiba kiri ahantu henshi ku mihanda kigaragaza ko aho hantu hari parikingi cyangwa se bahaparika, ubwo birumvikana kigaragariza ibinyabiziga kandi kigaragaza ko hahagije kuba n'imodoka nini zitwara abagenzi zahaparika.

Mu rwanda usanga iyo uri kugenda ku muhanda, ugenda ubona aho ugeze cyangwa se Akarere ugezemo. Usanga hari ibyapa bikoze neza bikomeye bifasha uri kugenda kugira agere aho agiye atayobye, bikaba biri mu bintu bigaragaza iterambere rigenda riza mu Gihugu cyacu.

Iki ni ikimenyetso kiburira iki kikaba ari ikimenyetso gikoreshwa ahantu henshi hatandukanye baburira cyangwa se berekana ko ikintu kiri muri ako gakubo kitemewe cyangwa se kibujijwe.

Iki ni icyapa kiba kiri ahantu henshi mu muhanda ndetse kikaba kiburira abatwara ibinyabiziga ko aho hantu hari kamera cyangwa se hari ibifata amashusho, bishobora kumenya cyangwa guhana utwaye ikinyabiziga mu gihe yarengeje umuvuduko wa mirongo itandatu.

Aha hari icyapa gishyirwa mu muhanda, ndetse iki cyapa kikaba kiburira abatwara ibinyabiziga ko aho hantu hari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhakorerwa. Ibi byapa biterekwa mu muhanda mu gihe uri nko gusana bitunguranye.

Aha hari ifoto igaragaza uburyo bw'imiturire mu gice runaka kigize u Rwanda. Mu bigaragara hakaba hari harimo insinga z'amashanyarazi, hakaba harimo ibiti bitandukanye ndetse hakaba harimo n'inyubako z'ubwoko butandukanye, harimo izigeretse ndetse n'izitageretse.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda inyubako zubakwa cyangwa se zivugururwa hashyizweho itegeko ry'uko hagomba kuba hariho icyo nakita nka supanete y'icyatsi igaragariza buri muntu wese ko aho hantu hari kubakwa cyangwa se hari kuvugururwa ibyo bikaba ari mu bintu byaciye akavuyo mu myubakire mu gihugu cy'u Rwanda.

Nk'ibisanzwe goverinoma y'u Rwanda ikomeza guteza imbere ibikorwa bikorerwa mu gihugu cyayo, ari na byo usanga abacuruzi aho bakorera harageze kaburimbo hamwe na hamwe bitewe n'aho ari ho ndetse n'aho haherereye.

Nk'uko bisanzwe, mu gihugu cy'u Rwanda haboneka amashyamba, ayo mashyamba ni afasha uduce runaka, kugira ngo tubone umwuka mwiza wo guhumeka, ndetse ukongera ugasanga mu gihugu cy'u Rwanda, hari imiturire imeze neza, cyangwa se imiturire ivuguruye, bityo bifasha mu gutera imbere kw'igihugu.

Mu gihugu cy'u Rwanda usanga mu mihanda y'ahantu hegereye ingo cyangwa se aho bita muri karitsiye mu ndimi z'amahanga, ahenshi haratangiye kujyamo imihanda ya kaburimbo, iyo mihanda ikaba yongerera agaciro ba nyiramazu ndetse n'Igihugu muri rusange.

Nk'ibisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda haba imiturire itari mu kajagari, ibyo bikaba bifasha igihugu mu gutera imbere nk'uko abaturage baba batuye neza banameze neza mu buzima busanzwe, ibyo bikaba ari bimwe mu bintu bifasha ndetse by'ingirakamaro ku baturage.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda ni bimwe mu bihugu biri kugenda bitera imbere mu tugari twinshi dutandukanye, aho usanga hubatswe inyubako zigezweho abantu bagenda baturamo, ibyo bikaba ari bimwe mu bintu bigaragaza yuko igihugu kiri gutera imbere.

Aha, hari inyubako yubatse mu matafari ahiye, ndetse hakaba hari n'ibipangu bibiri, urebye neza hari n'umuhanda w'igitaka, ndetse hakaba hateye n'ibiti by'imikindo.

Aha haragaragara umumotari wambaye kasike ndetse uri kugenda mu muhanda wegereye ahantu abantu batuye, umumotari ndetse afite na telefone mu ntoki.

Nk'ibisanzwe mu rwego rwo gukomeza kugira umwuka mwiza duhumeka hakenerwamo ibiti. N'uko rero Guverinoma y'u Rwanda ishishikariza abantu mu ngo zabo kujya bagira ibiti bibafasha guhumeka neza, ndetse n'ibikorwaremezo bitandukanye ahantu hegereye amazu, ahantu abantu batuye muri make haba hagomba kuba hari ibiti ndetse n'ubusitani.

Aha ni mu muhanda, ndetse hari ibinyabiziga bitandukanye, muri ibyo binyabiziga harimo iby'abantu ku giti cyabo, ndetse n'ibibyazwamo , inyungu nk'abamotari cyangwa se batwara tagisi muri uwo muhanda, si ibinyabiziga gusa harimo n'abagenzi bagenda n'amaguru.

Aha haragaragara imwe mu nyubako zikoreramo ikigo gishinzwe iterambere mu rwanda kitwa aradibi mu magambo arambuye aribyo Rwanda Divelopumenti bodi kikaba ari ikigo gishinzwe imishinga ibera mu gihugu.

Aha ni mu muhanda hagati ndetse hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba hari ikinyabiziga cy'amaguru atatu cyitwa moto rifanani ndetse hakaba hari na moto zitwarwa cyangwase se zikoresha amashanyarazi.

Aha haragaragara umuhanda ndetse hakaba hari n'ikiraro gisa nk'igifite umuhanda hejuru ndetse no hasi, kikaba ari ikiraro cyifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu mu gihugu cy'u Rwanda.

Aha ni mu muhanda ndetse umuhanda urasa nk'utose wagirango ngo imvura yari yaguye, ndetse muri uwo muhanda harimo abatwaye ibinyabiziga bitandukanye harimo moto ndetse n'imodoka. Sibyo gusa bigaragara ku hacikije umuhanda hateye ibiti ndetse hari n'akayira cyangwa se akazu abategereje imodoka cyangwa se abagenzi bategereje imodoka bategererezamo.

Aha haragaragara umumotari, ndetse hari n'umunyonzi, hakaba hari umuhanda munini ufite undi ushamikiyeho, ndetse ugaragara nk'umuhanda udacamo abantu benshi.

Aha hagaragara umuhanda, ndetse hakaba hari n'ahagenewe abanyamaguru, hakaba hagaragara kimwe mu cyuma dukunda kwita mu ndimi z'amahanga feruje, ndetse hakaba hari n'abamotari ndetse n'abashoferi batwaye imodoka bategereje ko amasegonda arangira abanyamaguru basoje gutambuka nabo bagakomeza.

Aha hari imihanda ukaba umwe uca munsi undi ukaba uca hejuru y'ikiraro ndetse mu muhanda harimo abamotari ndetse bambaye kasike bahetse n'abagenzi, nta kabuza harimo n'abanyamaguru.

Mu Rwanda hari aho usanga hakiri imihanda y'ibitaka, iyo mihanda uko bwije n'uko bukeye ikaba igenda yubakwa hifashishijwe abaturage muri rusange ku buryo bashobora kuba bashyira hamwe bakubaka imihanda ijya mu ngo zabo na leta ikabafasha nk'ibisanzwe ibyo bigakomeza biteza imbere igihugu.

Mu Rwanda haboneka uburyo butandukanye, bwo gutwara abantu ndetse n'ibintu mu muhanda. Aho usanga hari mu hantu bubahiriza ibimenyetso bigenda bigaragara mu muhanda. Mu gihe usanga haboneka n'uburyo bwo gutwara abantu muri bisi cyangwa se kuri moto.

Nk'ibisanzwe mu kwirinda akajagari ndetse no gusa nabi k'umuhanda hagomba kuba hariho ibyapa. Muri ibyo byapa rero haba harimo ibyapa biburira abatwaye ibinyabiziga ko hari ahantu hada hatemerewe guparika bitewe n'impamvu runaka z'uko nta kavuyo kaba kahakenewe, ibyo bikaba bifasha mu kwirinda akavuyo.

Aha ni mu muhanda. Ndetse mu bigaragara mu muhanda harimo umuntu umwe gusa. Ndetse nta binyabiziga ubu akakanya bigaragara. Si ibyo gusa haragaragara umuriro w'amashanyarazi, uciye hagati mu muhanda. Ndetse uko bigaragara, akaba ari mu isangano ry'imihanda cyangwe se ahantu hahurira imihanda iturutse ahantu henshi hatandukanye.